Ifoto igaragaza inyubako yo mu kigo cy'amashuri, igaragara ko ari inyubako igeretse, abanyeshuri bari hanze y'ishuri.

Iyo nama ni umuhango wa garaduwesheni y'abanyeshuriga muri kaminuza y'u Rwanda; icyiciro cya makumyabiri.